Inzu yubakishije amatafari ahiye, isize amarangi asa n'umuhondo, ikindi kandi kuri iyo nzu hariho icyapa cyanditseho amagambo agiye atandukanye, ikindi kandi ikorerwamo imirimo igiye itandukanye.

Umurima urimo ibyatsi ciri kandi urimo amashuri yubakishije amatafari ahiye. Ikindi kandi asakaje amabati asa n'umweru bisize amarangi asa n'umukara. Ikindi kandi amashuri ni ingenzi ku baturage, kuko adufasha kuyigiramo kuko ariho dukura ubumenyi

Twubatsemo amashuri asa neza, asize y'amarangi asa, n'umweru n'andi asa n'umukara . Asakaje amabati asa n'umukara, imbere y' iyo nzu hari ikintu cyubatse, nk' icyo bakiniraho umukino twita, vore gisize amarangi asa n'umutuku n'andi asa n'umweru. Ikindi kandi amashuri ni meza cyane kuko tuyakuramo ubumenyi.

Inzu twita amashuri yubakishije amabati asa n'ubururu, asize amarangi asa n'umweru, yubakishije amatafari ahiye, ikindi kandi imbere y'iyo nzu hamanitse imyenda, hateye ibyatsi bisa neza. Ikindi kandi ku ishuri ni heza cyane, kuko tuhigira ubumenyi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi isize amarangi asa n'umuhondo, irimo abanyeshuri bambaye imyenda isa n'umweru amajopo asa n'umukara, ikindi kandi bafite igikoresho bifashisha bari kwiga ibintu by'ikoranabuhanga.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho, isize amarangi asa n'umuhondo andi asa n'umweru, ikindi kandi harimo amakaro. Ikindi harimo imodoka n'abantu batatu, ikindi kandi bigaragara ko imodoka bari kuyikora kuko abakanishi ni beza cyane, kuko badukorera ibinyabiziga tugendamo tugiye mu mirimo igiye itandukanye.

..bambaye imyenda isa nu'bururu n'ingofero isa n'umuhondo. N'undi imbere yabo afite igipapuro yambaye imyenda isa n'umukara n'indi twita ijire isa n'icyatsi n'umweru. Ikindi kandi barikubaka inzu yubakishije amatafari ahiye . Ikindi kandi inzu ni ingenzi ku buzima bwacu kuko ituririnda ibiza.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi hakorerwamo ibintu byo kwiga, abanyeshuri bambaye imyenda isa n'ubururu ndetse n'umweruru, ikindi kandi ku ishuri ni heza cyane, kuko tuhakura ubumenyi kuko tuhakura ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa ubundi.....

Inzu yubatse ku buryo bugezweho ikindi kandi isize amarangi asa n'umweru, muri iyo nzu harimo abantu bagiye batandukanye ikindi kandi bambaye imyenda isa n'umweru. Ikindi barimo kudoda ikindi kandi kudoda ni ingenzi ku buzima bwacu kuko batudodera imyenda, ikindi kandi bidufasha kwiteza imbere.

Ahantu twita mu igaraje, bakorera ibintu by'ikoranabuhanga bakanikiramo imodoka, harimo imodoka isa n'umukara ifite n'andi mabara asa n'umutuku, ikindi kandi hari n'abantu bambaye imyenda isa n'ubururu ari bo twita abakanishi, kuko abakanishi ni ingenzi ku buzima bwacu, kuko badukanikira ibinyabiziga tugendamo, tugiye mu mirimo igiye itandukanye.

Umuntu ukora muri hoteli twita umusireveri ,ikindi kandi afite iparato iriho ikirahure ,hariho n'inzoga, ikindi kandi inzoga iragurwa kuko iranyobwa.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho isize amarangi asa n'umweru, ikindi kandi harimo abantu bambaye imyenda isa n'ubururu yambaye imyenda isa n'umukara, n'umweru ikindi hakorerwamo imirimo itandukanye ububaji ndetse no gusudira inzugi, ikindi kandi bidufasha kubaho mu buzima bumeze neza.

Amashuri yubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi asize amarangi asa n'umuhondo n'ayandi asa n'ubururu, ikindi kandi harimo utubati tubitsemo ibikoresho abarimu bifashisha bari kwigisha, harimo abana bambaye imyenda isa n'umuhondo, n'iyindi isa n'ubururu n' imipira isa n'imikara, ikindi kandi mu ishuri ni heza cyane kuko tuhakura ubumenyi.

Umurima munini cyane urimo abantu bambaye imyenda isa n'icyatsi, n'umweru ,n'umukara ikindi kandi bambaye n'ingofero zifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru andi asa n'umutuku, ikindi kandi abo bantu bakora imihanda kuko imihanda ni ingenzi ku buzima bwacu, kuko tuyigendamo, ikindi kandi biba bimeze neza.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi harimo abantu bagiye batandukanye cyane, ikindi kandi kwa muganga ni heza cyane, kuko twahajyaga tugiye kwivuza indwara zigiye zitandukanye.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho isize amarangi asa n'umweru, harimo abantu bagiye batandukanye bambaye imyenda isa n'ubururu, n'abandi bambaye imyenda isa n'umweru, ikindi kandi harimo ibikoresho bifashisha bakora umuriro cyangwa amazi.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi harimo abantu bambaye imyenda igiye itandukanye, imwe isa n'ubururu, indi isa n'umuhondo, ikindi kandi bigaragara ko harimo abantu, bari gukora ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi isize amarangi asa n'umuhondo, andi asa n'umutuku. Ikindi kandi iyo nzu ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye. Harimo intebe, ameza, utubati n'ibindi byinshi.

Ishuri ryubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi harimo abanyeshuri bagiye batandukanye, bambaye imyenda isa n'umweru n'indi isa n'ubururu, ikindi kandi mu ishuri ni heza cyane kuko tuhigira ubumenyi.

Yubakishije amatafari ahiye, asize amarangi asa n'umweru, n'ayadi asa n'ubururu, ikindi kandi harimo abana bambaye imyenda isa n'ubururu, bafite ibishushanyo bigiye bitandukanye, ikindi kandi ku ishuri ni heza cyane kuko tuhigira ubumenyi.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi irimo abantu twita abanyeshuri bambaye imyenda itandukanye, ikindi kandi harimo n'ibindi byuma bifashisha, bikoresha ibintu by'ikoranabuhanga, bikora nk'amashanyarazi cyangwa amazi.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi isize amarangi agiye atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'ubururu, isakaje amabati asa n'umukara, ikindi kandi muri iyo nzu harimo abantu bambaye imyenda isa n'ubururu, abandi bambaye imyenda isa n'umweru, harimo ibyuma bifashisha bakora ibintu by'ikoranabuhanga.

Wambaye imyenda isa n'ubururu yambaye agapfukamunwa gasa n'umutuku icyindi kandi yambaye ingofero isag n'umuhondo, icyindi uwo muntu afite icyuma bifashisha mu bintu byikoranabuhanga.

Ahantu bakorera ibintu by'ikoranabuhanga, bafotoreza impapuro, bakorera ibintu by'irembo kandi biba byiza cyane, kuko bidufasha gutanga mituweli n'ibindi byangombwa byinshi dukenera.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho ikindi kandi inzu ikorerwamo ikintu twitaga ubudozi, zirimo imashini zigiye zitandukanye ikindi kandi harimo na televiziyo. Harimo umuntu ufite metero ku rutugu ikindi kandi imashini zitudodera imyenda kuko tuyambara.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi ikorerwamo imirimo igiye itandukanye. Harimo uwo kogosha ndetse no gusuka, ikindi kandi biba byiza cyane kuko bidufasha kwikorera isuku yo mu mutwe ndetse n'iyo ku nzara. Ikindi kandi harimo abantu babiri harimo n'uri kogosha.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi isize amarangi asa n'umuhondo n'ayandi asa n'umukara, ikindi kandi harimo abantu bagiye batandukanye bambaye imyenda isa n'umukara n'iyindi isa n'ubururu, ikindi bari gukoresha igikoresho twita televiziyo gikoreshwa n'ikoranabuhanga.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho ikindi kandi isize amarangi asa n'umweru n'andi asa n'umuhondo, ikindi kandi muri iyo nzu harimo ameza n'ibindi bikoresho bitandukanye harimo n'abantu bambaye imyenda igiye itandukanye . Ikindi ibikoresho birimo babifa babyifashisha bari gukora ibintu by'ikoranabuhanga.